Iyi ni botike irimo ibintu byinshi bitandukanye, hari imyenda imanitse, hari biri hasi, harimo amatara amanitse, harimo n'umuntu, harimo n'ibikoresho bakunda gukoresha bifashisha berekana y'uko harimo umuntu, aribyo bipupe.

Aha ni mu rusengero, harimo abantu bicayemo abakiristo. Harimo umuyobozi urimo kubabwira akoresheje mikoro. Ababwira ku bijyanye n'amafaranga bagomba gutanga bitewe n'ibyo bagomba gukora.